Umwana ukiri muto wiga muri garidiyeni cyangwa se ikiburamwaka, afite agati kariho umuti arimo arashushanya ku rukuta.

Imbeba zirimo ziraganira, uyu wari umugani wa kera wo mu dutabo twabana bo mu wa mbere basomaga bakishima.

Igishushanyo k'ingorofani kiri mu ibara ry'ubururu n'umukara gishushanyije ku gikuta, hejuru handitseho amagambo asobanura iyi ingorofani ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Umubyeyi arimo arumvisha umwana we umunyenga, uyu mwana w'umukobwa yambaye impuzankano, bari ku kicungo, bari ku kigo cy'amashuri. Barishimye urabona ko barimo baseka.

Ikigo cy'amashuri y'abana b'inshuke, kiriho ibikinisho bigiye bitandukanye, harimo inyubako zama etaje, aho abana bakinira ndetse n'ibyicungo.

Umusambi ushushanyije ku rukuta uhagaze ku ibuye, iruhande rwawo hari abana bambaye impuzankano y'ishuri bigaho.

Agakapu keza kari mu mabara y'umweru n'umutuku, ibi ni ibihabwa umwana ugiye gutangira mu ishuri, ni keza gatuma yishima.

Udukoresho dutandukanye turimo makereyo, amakureri ndetse n'udusahaha duto twifashishwa bigisha abana bakiri bato biga mu mashuri y'ibiburamwaka.

Udupope turi mu bwoko bw'inkende ni duto, utu duhabwabwa abana bakabasha kudukinisha mu gihe bari kwiga tukabafasha kwisanzura.

Igitabo kiriho udushushanyo dutandukanye harimo inka, injangwe, imbwa ndetse n'ifi, hejuru y'utu dushushanyo handitse amagambo agira ati "gusiga amabara mu mashusho y'inyamaswa, imyaka ine kugera kuri itandatu."

Agakinisho gahabwa abana biga mu kiburamwaka. Ni agakinisho kabafasha kwishimisha, ndetse no kwagura ibitekerezo byabo, ndetse n'inzozi.

Igikoresho cyifashishwa n'abana bakiri bato bagikoresha banywa amata cyangwa igikoma ndetse kifashishwa no mu bigo by'amashuri.

Ibitanda bigiye bitandukanye aha haryama abana baje kwiga, igihe bategereje gutaha iyo basinziriye baraza bakabaryamisha hano.

Agapira kifashishwa mu gukina gakoreshwa n'abana bakiri bato bagakina bisanzura bishimye bityo bigatuma ubuzima bwabo bumera neza.

Udukinisho turi mu mabara agiye atandukanye harimo utw'umuhondo, ubururu, icyatsi, ndetse na orange twifashishwa mu kwigisha abana bakiri bato amabara atandukanye.

Abana bakiri bato biga ku kigo cya primairi, bamwe barimo barakinira ku byicungo, abandi bicaye imbere y'amashuri, abandi barimo barakina imikino itandukanye mu mbuga y'ikigo cy'ishuri ryabo.

Umubyeyi wicaye imbere y'abaturage, arimo arabakoresha inama. Bafite ibikoresho bitandukanye birimo amasuka, merato n'ibindi. Barimo barakora isuku, aho batuye.

Ikigo cy'amashuri kiriho abana bato, bari ku muronko, batonze uruziga, bari kumwe n'abarezi babo babigisha. Imbere yabo hari ibikoresho byifashishwa mu mikino bitandukanye.

Ni abantu batatu bambaye udupfukamunwa, umugabo ahagaze hagati yambaye agapfukamunwa k'umukara ndetse n'ipantaro by'ikoboyi, iruhande rwe hari abagore babiri bombi bambaye udupfukamunwa.

Amakayi ndetse n'ibitabo birunze ahantu hamwe hejuru yabyo hateretse urubuto rwa pome, iruhande rwaho hari amakereyo ari mu gakoresho kabugenewe gashinzwe kuyafata.

Umubyeyi wambaye itaburiya y'umweru ari ku kibaho arimo arigisha umwana w'umuhungu kwandika, uyu mwana yambaye agapira k'umukara.

Inzu nziza yubatswe mu mbaho imbere yayo hateretse udukinisho dutandukanye tw'abana hashushanyije n'imirongo myinshi iri mu mabara y'imyeru.

Ibishushanyo biba mu bitabo byo muri primaire, byereka abana uko bagomba kwitwara iwabo mu rugo, harimo gukora amasuku gufasha abo babana imirimo igiye itandukanye yo mu rugo.

Ikigo cy'amashuri cya matimba ahigishirizwa abarimu nabo bakaza gutanga ubumenyi mu bigo bigiye bitandukanye mu gihugu hose.

Ikigo cy'amashuri cy'inshuke ndetse n'abana bakiri bato kiriho amarangi agiye atandukanye ndetse hariho puberi iruhande rwayo, asakajwe amabati meza agezweho.

Amarati, amakerereyo, kompa n'ibindi biba biri muri matematicale, byifashishwa mu gukora imibare ndetse no gupima ibipimo bitandukanye.

Ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri, barimo bashushanya, bapima n'ibindi, harimo amarati, amakereyo ndetse na kompa.

Ibishushanyo bitandukanye byifashishwa mu gufasha abana biga muri materineri cyangwa se muri pirimeri gukangura ubwonko bwabo, hariho ibishushanyo byinshi bigiye bitandukanye.

Ibikoresho byo ku ishuri, byifashishwa na mwarimu ndetse n'umunyeshuri. Harimo umukasi, amakereyo, marikeri, ndetse n'impapuro.

Ikigo cymashuri gisa neza gisakajwe amabati ameze neza ndetse gisize amarangi y'umuhondo iruhande rwacyo hari jaride imeze neza.

Ibikoresho byifashishwa mu kwigisha abana bo muri primeri harimo amakereyo, imikasi, ibitabo ndetse n'amakureri, ari mu mabara atandukanye.

Ikigo cy'amashuri cyubatse ahantu ku musozi, cyubakishijwe amatafari ahiye, gisakajwe amabati Ari mu ibara ry'ubururu, gisizwe amarangi y'umweru ndetse n'umuhodo.

Ikibuga cyabigeyinewe gikinirwamo umukino wa Volleyball kiri ahantu ku musozi, ikirere kirarakaye gisa nabi biragaragara ko imvura igiye kugwa.

Amashusho agiye atandukanye, harimo, ibikoresho byo ku ishuri, gutoza umwana gutekereza, kwiga ku bijyanye na siyansi, ubumenyingiro ndetse, no kugana ishuri.

Akazu keza gatoya karimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abana, biragaragara ko ari muri materineri aho abana bakiri bato bo mu kiburamwaka baza kwigira.

Kandagiraukarabe cyangwa se urukarabiro ni bimwe mu bifasha abantu gukomeza kugira isuku yaba mu mirire ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye ndetse bigabanya kwandura indwara zituruka ku mwanda.

Abana bakiri bato umwe w'umukobwa yambaye impuzankano biragaragara ko avuye ku ishuri na ho amuri iruhande ni umuhungu, bahagaze inyuma y'urugi biragaragara ko bategereje gufungurirwa.

Inzu ndende igeretse rimwe yubakishijwe amatafari agezweho, isize irangi ry'umuhondo ndetse iruhande hari ama eskariye harimo hatangirwa serivisi z uburezi.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'umunyeshuri wiga muri pirimeri ndetse no mu bigo byisumbuyeho harimo imashini ariyo karikiratirise, amakerereyo, amarati ndetse n'ibindi.

Abana b'abangavu bafite agakayi mu ntoki barimo barandika ibitekerezo bitandukanye bamwe muribo bambaye amasaha ndetse bariyogosheshe.

umwarimu arimo arigisha abanyeshuri be bose hejuru bambaye imyeru arimo arabasobanurira amasomo arimo kubigisha.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, hasi icyatsi, hejuru imipira y'icyatsi ndetse n'amashati y'imyeru, bicaye mu nzu nini ya sale barimo barahabwa ibiganiro.

Umwana w'umukobwa ufite imisatsi miremire, ahagaze imbere y'abantu arimo arabigisha ku ngingo zitandukanye. Inyuma ye hari ibishushanyo bigira ibishushanywa ndetse arimo arabaganiriza.

Abagabo ndetse n'abagore, bahuriye ahantu, bambaye amajile, barimo baraganira ku ngamba, bagiye gufata. Ibi byose birebana n'ubuzima.

Idapo ry'igihugu cy'u Rwanda rihagaze imbere y'ikigo cy'amashuri, imbere yayo hari umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'agapfukamunwa.

Abasore n'abakobwa bambaye impuzankano base bambaye udupfukamunwa bahagaze imbere y'amazi barimo barakaraba. Ni byiza gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kuko birinda indwara.

Umwana w'umusore wambaye isaha kuboko ndetse n'agapira k'ubururu kariho imirongo y'umweru, ahagarariye bagenzi be barimo baravuga ku burere bahabwa.

Abana b'abanyeshuri, bicaye ku ntebe bambaye amashati y'imyeru ndetse n'imipira y'umuhondo, barimo barakurikira mwarimu uhagaze imbere, arimo arandika ku kibaho yambaye itaburiya y'umweru.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano hejuru ishati z'umweru, hasi amapantaro ya kaki, baje guha icyubahiro ndetse no kunamira abazize jenoside yakorewe Abatutsi.

Abana bambaye inifomu, bicaye ku ntebe zitandukanye, bari mu kizamini. Bambaye udupfukamunwa, bari ahantu hatuje.

Inzu nini nziza cyane, irimo amatara atandukanye ndetse na parafu yu'mweru, iruhande rwayo hari inkuta zisiza amarangi y'umuhondo, harimo abantu bambaye amajire ari mu ibara ry'icyatsi, hasi hari amakaro.

Abagabo imbere yabo hari umugore wambaye ijiiri iri mu ibara ry'icyatsi hambitsemo imirongonko bari mu cyumba kinini biragaragara ko bitabiriye ibikorwa runaka.

Abana b'abahungu ndetse n'ab'abakobwa bambaye impuzankano, bamwe bambaye umukara hasi abandi bambaye kaki hasi, hejuru bose bambaye amashati y'imyeru.

Icyumba kinini cy'inzu mberabyombi kirasakaye gisa neza gifite isuku cyubakishije amatafari ahiye, aha ni aho abanyeshuri bigira urabona ko harimo inama yahuje abenjeniyeri.

Urubyiruko rw'abana n'abakobwa ndetse n'abahungu, bateraniye ahantu hamwe barimo baraganirizwa ku buzima bw'imyororokere, harimo abahungu ndetse n'abakobwa.

Urubyiruko rw'abasore n'inkumi, bamwe baricaye abandi barahagaze, harimo n'abagabo bakuze. Barimo barafata ifoto y'urwibutso ndetse uru rubyiruko rufite impamyabushobozi bahawe.

Abantu benshi ,bambaye amasarubeti y'ubururu, barimo barakora ibintu bijyanye n'ubutekinisiye ,imbere yabo hari imashini ziri mu mabara y'umuhondo, biragaragara ko bari muri salle nini.

Igikuta gisizeho irangi rijya gusa umutuku, hejuru hari parafu iteye irangi ry'umweru, iki gikuta kiriho udushushanyo, tugiye dutandukanye.

Ibigo by'amashuri bya tiveti bigiye birimo abanyeshuri batandukanye ndetse n'abarimu. Hano hari umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi afite ibitabo mu ntoki ,biragaragara ko agiye kwigisha.

Agakoresho kaboshywe mu byatsi. Ni umutako mwiza, uteretse ku meza, iriho igitambaro cy'ubururu, iruhande rwacyo hari akandi kabumbwe mu ibumba.

Intebe iri mu ibara ry'ubururu, yanditseho amagambo yo mu cyapa ari mu ibara ry'umweru. Hirya yaho hari ibindi bikoresho byifashishwa mu bugeni.

Kaminuza irimo abanyeshuri batandukanye, barimo barakurikira umwarimu w'umukobwa ubahagaze iruhande, imbere yabo hateretse porojegiteri ndetse na mudasobwa.

Icyumba gikorerwamo ubushushanyi, aho umunyeshuri ashushanya bitewe n'ubugeni afite, ni muri TVET.

lgishushanyo cyashushanyijwe n'umunyabugeni, kiriho umubyeyi ushigatiye umwana we, arimo aramuterura agiye kumusoma, yipfutse igitenge ndetse yambaye ibitenge hasi.

Umusore wambaye agapira k'umukara, ari imbere ya mudasobwa arimo araseka, inyuma ye hari ibitabo byinshi biri mu tu etajeri.

Ikibumbano gikozwe mu ibumba, cyakozwe n'abanyabugeni, kiri mu ishusho y'ivaze cyangwa se inkongoro.

Ikibumbano, kirimo kiratunganywa n'umubumbyi, arimo arashaka kugikoramo ishusho ashaka, afite ibikoresho ku ruhande yifashisha akirema, yarangiza akakigurisha.

Urubyiruko rw'abasore n'inkumi bafite ingofero zabo mu ntoki ndetse n'amakanzu asa, barangije amashuri yabo muri kaminuza.

Ibumba rikorwamo ibikoresho byinshi bijyanye n'ububumbyi, harimo imitako ndetse n'ibindi, ariko bikorwa n'ubizi kuko bisaba ubuhanga.

Umugabo ndetse n'umukobwa barimo baragenda mu kayira k'amapave iruhande rwabo hateye jaride irimo indabo ndetse na pasiparume, umusore afite ikayi mu ntoki yambaye agapira k'ubururu.

Urubyiruko rurimo abasore, bicaye imbere ya mudasobwa, barimo bariga. Bose bicaye bareba ahantu hamwe, biragaragara ko bari mwishuri.

Umusore wambaye imyenda y'imikara, arimo ararebera muri mikorosikopi, iyi ifasha abaganga kureba indwara zitaboneshwa amaso.

Ibishushanyo ndetse n'ibikoresho by'ubugeni bimanitse ku rukuta, birimo ibitambaro bidozwe mu buryo butandukanye, ibi ni abanyabugeni baba babiremye.

Icyumba kinini cya kaminuza kirimo abanyeshuri. Biga bitonze kandi bacecetse bakurikiye mwarimu. Bitandukanye n'abanyeshuri ba pirimere.

Inzu isakaje amategura, imbere yayo hari amapave, hariho umuntu urimo agenda kuri iyo mbuga. Biragaragara ko ari ishuri rya Kaminuza.

Imbuga nini ishasheho amapave hari rogari ipfundikiye inyuramo amazi, hirya mu nguni hari puberi y'icyatsi babikamo imyanda.

Icyumba cya kaminuza, kiriho ibirahuri binini, giteye irangi ry'umweru, haratuje, aha ni aho kwigira.

Igicupa kivamo amazi yo kunywa kirambitse hasi cyakaswe kiri mu ibara ry'ubururu, biragaragara ko cyarangije gukoreshwa.

Igikoresho cyagenewe gushushanywa, kiriho amabara agiye atandukanye yo mu marangi. Iki ni igikoresho kiva mu bugeni, kiba cyakozwe n'umunyabugeni runaka.

Urubyiruko rw'abasore n'inkumi, bamwe bafite amakaramu barimo barandika. Imbere yabo hateretse mudasobwa iri ku meza. Barimo bariga.

Inzu, ya kaminuza. Aha niho abanyeshuri bigira. Iyi mibare iri ku muryango, igenda irangira umuntu, kugira ngo atabasha kuyoberwa aho yari ahageze.

Inzu igeretse kabiri iri imbere y'ubusitani burimo pasiparume, imbere yayo hariho abanyeshuri barimo bagenda.

Ibibumbano byabumbwe mu itaka ryitwa, ibumba biteretse hasi, bitegereje kumuka. Ni ibikoresho bishobora kwifashishwa mu mirimo itandukanye.

Urubaho ruteyeho amarangi atandukanye harimo ay'umutuku ndetse n'umukara, rurambitse hasi birasa nkaho ari igikoresho cy'ubugeni.